Ifoto igaragaza umuntu uri mu iduka umucuruzi uri gucuruza ibicuruzwa bitandukanye ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Iyi foto igaragaza ahantu hagenewe kuruhukira cyangwa se kogera bakunda kwita pisine, bigaragara ko hafotowe ari ku mwanywa kuko hafotoye izuba riva, turabona ibicucu, igicucu cy'amashusho yose arimo.